Aho tuvomera amazi kugira ngo tuyakoreshe, haba gufura, kuyatekesha, kuyoga ndetse n'ibindi byinshi, kuyanywa kuko afite umumaro mu buzima bwacu.